Abana bambaye imipira y'umweru n'amapantaro y'amakoboyi bari mu myiyereko hari abandi bari kubareba n'abari gufotora, inyuma yabo hari ishusho imanitse.

Abagore babiri umwe wambaye isengeri y'umukara, undi itiriningi bari muri siporo, impande hahagaze abandi bagabo benshi na bo bambaye imyenda ya siporo.

Abaririmbyi bambaye imikenyero y'umweru n'umukara, bafite imirishyo mu ntoki, undi indangururamajwi, bari kuririmba bakoma n'amashyi, imbere yabo haringoma ndetse inyuma ibiti.

Itorero riri kubyina, abaririmbyi bambaye imikenyero y'umweru n'amashati bisa, bari gukoma amashyi n'umukobwa uri kubyina wambaye akantu k'umweru mu gahanga. Ari kubyinira abantu bicaye mu ihema, bari kumureba.

Itorero ry'ababyinnyi bambaye imikenyero isa umweru n'amasengeri, udutambaro tubiri mu mutwe ndetse n'utunigi mu gatuza. Impande yabo hari abasore bambaye isa umuhondo ndetse n'umukara.

Umuhanda w'igitaka impande hari imirima irimo ibihingwa bitandukanye, amapoto y'amashanyarazi anyuza insinga mu kirere, inzu zo guturamo zisakaje amabati.

Abantu bakora ibikoresho by'amashanyarazi batanu bari mu cyumba bambaye amasarubeti asa ubururu ku meza hateretseho ibikoresho by'amashanyarazi bari kubikora.

Ikibaya kinini kirimo amapoto y'insinga z'amashanyarazi zinyura mu kirere hakurya hari umusozi miremire ndetse n'ikirere gisa nabi.

Ahantu hari amazu y'ubucuruzi asize irangi ry'umuhondo, impande hari umuhanda w'igitaka, harimo abantu babiri na moto iparitse impande y'igiti. Hari amapoto ashinze, anyuza insinga z'amashanyarazi mu kirere.

Abaturage bahagaze impande y'ikiraro, umugezi w'amazi atemba munsi, cyubakishije ibyuma ku ruhande hejuru bisize irangi ry'umutuku n'umweru, impande hari imirima ndetse n'ibiti.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ifite imiryango ibiri ifunguye n'amadirishya isize irangi ry'ubururu, isakaje amabati ndetse inyuma hari ibiti.

Ikiraro kinini kiriho ibyuma bisize irangi ry'icyatsi, munsi hanyuramo umugezi, hariho imodoka ndetse n'igare, inyuma hari abantu benshi.

Ikiraro kinini kiriho ibyuma bisezerange ry'icyatsi, impanda hahagaze abantu benshi, hagiye gucaho imodoka nini itwara abagenzi, ni mugishanga harimo imirima y'ibihingwa byinshi n'ibiti.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo n'ubururu, ifite amadirishya menshi n'urugi rufunguye, imbere haparitse imodoka n'umuntu ugiye kuyinjiramo impande yayo hari ibiti.

Inzu isize irangi ry'umuhondo isakaje amabati, amadirishya n'inzugi bisize umukara, impande hari ubusitani bw'indabo ndetse n'itara ryo ku muhanda impande y'umuhanda.

Umusozi uteyeho amashyamba hasi mu kibaya hari amazu yubatse asakaje amabati n'umuhanda, hariho ibinyabiziga ndetse n'abagenzi bari gutambuka, ku nkengero z'umuhanda hari indabo.

Abaturage bicaye ahantu hamwe n'abandi bahagaze, babiri imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi. Inyuma hari ishyamba ryibiti birebire n'uruzitiro rwubakesheje amatafari ahiye n'ibyuma.

Abaturage benshi cyane b'ingeri zitandukanye bamwe bicaye munsi y'ihema abandi bicaye hasi mu byatsi, hari ibiti bihateyeye, hirya hari inyubako zihubatse.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi, harimo inzego z'umutekano abasirikare n'abapolisi, imbere yabo hari ameza ariho amazi n'amakayi n'amakaramu bari kwandika.

Abayobozi bari gutambuka mu muhanda mutoya, impande hari urutoki rwinshi ndetse n'ibiti, basize imodoka ziparitse inyuma harimo n'iy'abapolisi.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijeho imirongo y'umweru hagaragaza aho abagenzi bambukira, impanda y'aho hari indabo ndetse n'inzu ifunguye idirishya.

Abantu bicaye mu ihema ry'umweru, imbere hatatseho ibitambaro bisa umuhondo n'icyatsi n'ubururu, bicaye harimo Abapolisi ndetse n'Abasirikare.

Umupolisi ufite indangururamajwi ari gutambutsa imbwirwaruhame, inyuma ye hari abantu bicaye mu ihema ritatseho ibitambaro byo mu mabara y'ibendera ry'Igihugu n'abana benshi bari ku ruhande.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge, isaha ku kuboko n'amaherena ku gutwi, ahagaze imbere y'abaturage bicaye mu ihema ritatseho ibitambaro by'ibendera ry'Igihugu, abaturage bari gukoma amashyi.

Abagore babiri n'umugabo bahagaze imbere y'abaturage bari kubyina. Abaturage bari gukoma amashyi, hari abahetse abana bafite n'imitaka bitwikiriye, inyuma yaho hari ikibaya kihinze ndetse n'ibiti

Umupolisi uri gutambuka imbere y'abantu bahagaze abandi bicaye, inyuma hari amahema yubatse atatseho ibitambaro byo mu ibendera ry'igihugu.

Umupolisi wakoresheje inama imbere ye abaturage bicaye hasi, impande hari ibiti byinshi ndetse n'inyubako zisize irange ry'ubururu.

Abagabo bari gukoma amashyi harimo umusirikare, inyuma yabo hari intebe zo kwicaraho ndetse n'ubusitani bw'indabo z'amoko atandukanye n'ibiti bihakikije.

Abantu batanu bahagaze mu kibuga kinini bari gukora imyitozo ngororamubiri, umugore afite terefone mu ntoki numusore uri inyuma afite icupa ry'amazi, hepfo hari n'umugabo wambaye amadarubindi.

Umukinnyi uri mu kibuga kinini, ateye umupira hanze y'ikibuga, yambaye imyenda isa ubururu bwijimye, nimero mu mugongo, zandikishije n'ibara ry'umweru, yambaye inkweto n'amasogisi.

Umugore ubyibushye cyane agiye gutera umupira mu kibuga kinini ahagazemo, impande hari umugabo wambaye bote, ishati n'ipantaro, ikibuga gikikijwe n'urutoki.

Urutonde ruriho ikirangantego cy'igihugu rugaragaza amakipe uko yatsindanye mu irushanwa ry'Umurenge Kagame kapu, hari amatsinda y'abagore ndetse n'andi y'abagabo mu Karere ka Nyagatare.

Urutonde rugaragaza uko amakipe yatsindanye mu irushanwa ry'Umurenge Kagame kapu, hariho ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda ndetse n'amakipe ari ku rutonde.

Umukarani wikoreye ibikarito bibiri bya fanta ari mu muhanda munini wa kaburimbo, hakurya haparitse igare, hari inzu z'ubucuruzi zisize irangi ry'umuhondo ndetse hari n'ibiti.

Umunyonzi ufite igare wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro, impande ye hari umurima uhinzemo ibiribwa ukikijwe n'ibiti ndetse n'amazu ahakikije.

Umuhanda munini wa kaburimbo impande hari igiti ndetse n'indabo zihakikije, hari umuryango usize irangi ry'icyatsi n'urukuta rusize irangi r'yumweru, hasi akarongo k'umukara.